Inyubako itangirwamo serivisi zo gucururizwamo imiti yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, aho iyi miti iba ipanzwe mu tubati twabugenewe, buri kabati kanditsweho umuti urimo, bityo bigafasha abahinzi n'aborozi kubona ibyo bakeneye bibafasha mu kongera umusaruro wabo.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bwo gutanga serivisi zo gucuruza ibikoresho bitandukanye, ndetse n'imiti byifashishwa mu buhinzi bworozi, bikaba byifashishwa n'abahinzi n'aborozi mu kugira ngo bazamure umusaruro wabo.

Ubuso bunini buhinzwemo ibihingwa by'ibigori. Akaba ari ibihingwa bihingwa n'abahinzi babigize umwuga, mu rwego rwo kubona ikibatunga cya buri munsi, ndetse no gusagurira amasoko kugira ngo bakomeze kwiteza imbere.

Abahinzi bari mu murima barimo guhinga ndetse barimo kuyungurura imyaka bari bagiye gutera y'ibishyimbo mu isarori, aho bahinga ku butaka buhurijwe hamwe kugira ngo bazamure umusaruro wabo kandi kugira ngo kwita ku myaka biborohere.

Umuveterineri w'umujyanama mu buhinzi n'ubworozi, wambaye imyenda y'akazi yabugenewe ndetse n'uturindantoki, afashe icupa ririmo umuti wifashishwa mu kurwanya udukoko mu bakora umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi, bakaba bavuga ko iyi miti ibafasha mu kuzamura umusaruro w'ibihingwa byabo.

Iduka ricururizwamo imiti itandukanye, yifashishwa n'abahinzi borozi mu kubona imiti bakeneye, ibafasha mu kuzamura umusaruro w'amatungo, ndetse n'uw'imyaka yabo, bibafasha kuyarinda uburwayi butandukanye, ndetse no kuyabonera intungamubiri akeneye.

Agrotech akaba ari ikigo gitanga serivisi z'ubujyanama mu by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, kikaba kinagurisha imiti yifashishwa mu bworozi n'ubuhinzi, harimo n'ingemwe zikenerwa n'abahinzi hamwe n'ibikoresho byifashishwa mu kugaburira amatungo.

Inyubako itangirwamo serivisi zo gucuruza imiti itandukanye yifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi, akaba ari imiti ipanze mu tubari twabugenewe, aho imbere ya buri kabati kariho izina ry'umuti urimo, imiti ikaba ifasha abahinzi n'aborozi, kubona ibibafasha mu kurinda imyaka ndetse n'amatungo yabo.

Icyapa kigaragaza ifumbire nziza yifashishwa n'abahinzi ikaba igaragara mu mafarumasi acuruza imiti y'ubuhinzi n'ubworozi ikaba ifasha abahinzi mu kurwanya ibyonnyi byona imyaka yabo bikayibuza gutanga umusaruro.

Farumasi y'amatungo iherereye mu karere ka Huye, mu mujyi rwagati, aho iyi farumasi iri ku muhanda, iruhande rwayo hakaba haparitse imodoka y'umukara, ndetse iyi farumasi ikaba irimo imiti itandukanye, n'ibikoresho byifashishwa mu buhinzi n'ubworozi.

Ifumbire y'imborera ikorerwa mu Rwanda, iyi fumbire ikaba ifasha abahinzi mu kubona amafumbire meza, kandi atangiza ubutaka agezweho, abafasha mu kuzamura umusaruro wabo, bityo bikabafasha kwiteza imbere, kuko imirima yabo iba yatanze umusaruro.

Ifumbire ya NPK 17,17,17, akaba ari ifumbire yifashishwa mu buhinzi bw'imyaka butandukanye, ikaba yongerera ubutaka intungamubiri zitandukanye bukenera mu kugira ngo butange umusaruro uhagije.

Iduka ricururizwamo imiti ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, aho hari hicayemo umuveterineri wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'imiti ipanze mu twetajeri twiza twabugenewe, bikaba bifasha abahinzi n'aborozi kubona ibikoresho bakeneye, mu kugira ngo bazamure umusaruro wabo.

Inyubako itangirwamo serivisi zo gucuruza imiti, ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, harimo ibyifashishwa mu kugaburira amatungo, ibyifashishwa mu gutera imiti, ndetse n'ibyifashishwa mu gusukira, mu kuhira imyaka, hakaba hicaye iruhande rwayo ku meza, umukozi wabigenewe ukora utanga izi serivisi, imbere ye ku meza hari ikayi ndetse n'ikaramu.

Inzu icururizwamo imiti itandukanye y'amatungo ndetse n'iy'imyaka, ikaba ipanze mu tubati twiza dutewe irangi ry'umweru. Iyi nzu ikaba itangirwamo izi serivisi zifasha abahinzi n'aborozi mu kubona imiti bakeneye, kugira ngo bazamure umusaruro wabo.

Ifumbire ya urea, ifumbire yifashishwa mu guhinga imyaka itandukanye, aho iteranwa n'ibimera kugira ngo bibone intungamubiri igihingwa gikeneye mu kugira ngo gikure neza, bityo kizatange umusaruro gifashe abakora umwuga w'ubuhinzi kubona umusaruro mwiza bityo biteze imbere.

Abahinzi bakora umwuga w'ubuhinzi aho bari barimo gusarura imyaka yabo mu gihe yari yeze barimo kuyitunganya kugira ngo bayibike neza itazabahombera, bategereje ko yu nyuma bakayijyana ku isoko bityo bagakuramo amafaranga abatunga mu buzima bwa buri munsi.

Inyubako ikorerwamo na farumasi y'imiti y'amatungo ndetse n'iy'ubuhinzi, ikaba igaragarwamo n'imifuka irimo amafumbire y'ubwoko butandukanye ndetse n'indi miti yifashishwa mu buhinzi no mu bworozi iri mu tu etajeri twabugenewe, hakaba hagaragara n'umuhanga mu by'imiti y'amatungo ndetse n'iy'ubuhinzi.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto buri mu buhinzi bukorwa n'abatari bake mu Rwanda nk'ababigize umwuga, babikora kugira ngo babone ibibatunga bya buri munsi ndetse basagurire amasoko, bityo babone uko biteza imbere binyuze muri ubu buhinzi bw'imboga n'imbuto.

Ubuhinzi bw'ibirayi buri mu buhinzi bukorwa n'abatari bake hirya no hino mu gihugu, bukaba buri mu bihingwa bikenerwa cyane ku isoko, ubu buhinzi ababukora bakaba bavuga ko bubateza imbere cyane, kuko bubafasha kubona ibiribwa bihagije, ndetse bagasagurira amasoko, bakabonamo amafaranga abafasha mu buzima bwa buri munsi.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano y'amajipo n'amashati y'ubururu, bakaba barimo mu ahakorerwa ubuhinzi bari kumwe n'inzobere mu by'ubuhinzi zibereka uko ubuhinzi bukora kugira ngo bakurane urukundo rwo guhinga, bityo baziteze imbere bakiri bato.

Umugore ukora umwuga w'ubuhinzi bw'urutoki, aho yari avuye gusarura ibitoki abishyize ahabugenewe kugira ngo ategereze imodoka iza kubireba mu gihe abijyanye ku isoko, kugira ngo bigurwe n'ababikeneye bityo abone amafaranga yiteza imbere kandi yagure ubuhinzi bwe.

Ibitoki byasaruwe mu murima. Aho birimo kurundwa, ahabugenewe. Aho bitegereje, abakiriya baza kubigura. Ibi bitoki bikaba bihingwa n'abakora ubuhinzi bw'ibitoki, mu kwiteza imbere.

Ibiti by'ikawa bitewe mu murima ahakorerwa ubuhinzi bwa kijyambere bw'ikawa, ibi biti bikaba bihingwa mu murima w'ubuso bugari bigafasha abaturage babuhinga kwiteza imbere bohereza iyi kawa mu nganda ziyitunganya.

Umuhinzi urimo gutera igiti, mu kugira ngo azamurire agaciro ubutaka bwe kandi azabone imbuto zihagije mu gihe cyo gusarura, akaba yari arimo gutera ibi biti mu buryo bugezweho asiga umwanya ungana hagati y'igiti n'ikindi mu kugira ngo birusheho kwera neza bitanga umusaruro ushimishije.

Ubuhinzi bw'icyayi buri mu buhinzi ngengabukungu bwiganje mu gihugu aho buhingwa ku butaka burebure, bugari buhurijwe hamwe bityo bigatanga umusaruro mwinshi uhagije ku buryo bashobora guhaza uruganda rukora icyayi.

White Gold akaba ari inyunganiramirire y'igihingwa, ikaba ifasha mu kongerera ubutaka imyunyungugu ndetse n'amavitamini ibihingwa bikenera kugira ngo bi bikure neza byere bitange umusaruro mwiza, bityo bitume abahinzi biteza imbere.

umuti wa ayivi mekitine icumi, akaba ari umuti wifashishwa mu kuvura ubugendakanwa bw'inka ndetse n'ihene. Uyu muti ukaba wifashishwa mu buryo bwo kuwutera mu rushinge ku nka zarwaye iyi ndwara.

Ifumbire ya POTATO DEXTROSE AGAR, akaba ari ifumbire ifasha abahinga ibirayi, ikaba ibafasha mu gutanga umusaruro mwiza kandi ukomeye wujuje ibisabwa, ifumbire abahinzi bakaba bavuga ko ibafasha cyane.

Umuveterineri wabigize umwuga ubifitiye ububasha aho yari arimo gupima ingurube iri mu kiraro ifashweho n'abagabo babiri bari harimo n'uwo muveterineri ari kuyipima, ni indwara izwi cyane nka teniya.

Carasil ni umuti w'amatungo wifashishwa mu kuvura inka, ihene, intama ndetse n'ingurube mu gihe zagize ibibazo by'ubugendakanwa, izi nka zikaba zivurwa n'abaveterineri babyigiye kandi babifitiye ubushobozi.

Umuti wa Buserini injekisheni akaba ari umuti wifashishwa mu gutera inka zahuye n'ikibazo cy'uburwayi, uyu muti ukaba uzifasha mu kuvura aya matungo, mu kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza, kandi atange umusaruro uhagije.

Umuhinzi uhinga mu buryo bwa kijyambere aho yari arimo gushyira amatiyo yifashishwa mu gusukira imyaka ayivomerera mu gihe K'izuba mu kugira ngo hongere hazamurwe umusaruro w'ubuhinzi kandi bifasha ibimera gukura neza.

Abajyanama mu by'ubworozi n'ubuhinzi bahagaze muri farumasi y'amatungo icururizwamo imiti y'ubwoko butandukanye, yifashishwa mu kuvura amatungo, iyi miti ikaba ipanze mu tubati twiza twabugenewe ndetse ikaba ifasha aborozi kubona imiti ifasha amatungo yabo.

Urubyiruko rurimo gukora uturima tw'igikoni tugezweho tumwe mu dufasha abaturarwanda kurinda igwingira ry'abana ndetse no kuzamura imirire myiza mu miryango utu turima tw'igikoni tukaba duhingwamo imboga z'ubwoko butandukanye zifasha mu kubona ibyo kurya bifite intungamubiri.

Umuhinzi wabigize umwuga, urimo gutunganya umurima we , yari arimo gutunganya agiye kuwuteramo, ibihingwa mu buryo bwa kijyambere, aho yari arimo kuwukoramo, udupariti dutandukanye, biwufasha kuzamura umusaruro.

Abaturage bakora umwuga w'ubuhinzi, aho bari mu murima batera ibihingwa bitandukanye mu murima ukikijwe n'ibyatsi byifashishwa mu gufata ubutaka, uyu mwuga ukaba ari umwuga ukorwa na benshi mu gihugu mu kugira ngo babone ibibatunga bya buri munsi.

Abahinzi barimo gutunganya umurima uteyemo insina kugira ngo bateremo indi myaka. Bityo bibafashe kwiteza imbere babone ibyoku kurya bihagije, basagurire n'amasoko, bakuremo amafaranga. Yo kwifashisha no kugura ibikenewe mu buzima bwabo bwa buri munsi, bityo biteze imbere.

Abakora umwuga w'ubuhinzi bafite amasuka, bahagaze mu murima aho bari barimo kuwutunganya kugira ngo bateremo ibimera bibafasha kwiteza imbere mu buhinzi bwabo, aho uyu mwuga ubafasha kubona ibiribwa bihagije ndetse no gusagurira amasoko.

Abahinzi bahinga ku butaka bugari aho bari barimo gusarura imyumbati bari barateye, abahinzi b'imyumbati bakaba bavuga ko ibi bihingwa bibafasha kubona ibyo kurya bya buri munsi kandi bagasagurira amasoko bagakuramo amafaranga bifashisha mu byo bakeneye mu buzima bwa buri munsi.

Umugore ukora umwuga w'ubuhinzi, aho yari afite isuka yunamye arimo guhinga, arimo gutunganya umurima we kugira ngo ateremo imyaka, iruhande rwe hari umurima uteyemo ibigori byeze, ndetse n'igiti cya avoka, aho akora uyu umwuga nk'uwabigize umwuga, mu kwiteza imbere ndetse no kubona ibyo kurya bya buri munsi.

Umujyanama mu by'ubuhinzi uhagaze mu murima rwagati arimo kwereka abahinzi bagize koperative ihinga amashaza, arimo kubereka uko bafata neza ibihingwa byabo, mu rwego rwo kugira ngo bazamure umusaruro.

Ubutaka buhinze neza bwifashishwa n'abahinzi bakora umwuga w'ubuhinzi. Aho bahinga ubutaka bakabutunganya, kugira ngo bahingemo ibimera, ibihingwa byabo bizakure neza biri mu butaka butunganyijwe neza bityo babone umusaruro uhagije.

Abahinzi bakora umwuga w'ubuhinzi aho bari bafite amasuka bari guhinga umurima wabo kugira ngo babone uko bateramo imyaka, abakora umwuga w'ubuhinzi bavuga ko uyu mwuga ubafasha mu buzima bwa buri munsi bakabona ibyo barya kandi bakabona n'ibindi bakenera mu mibereho yabo.

Umuhinzi uhagaze mu murima arimo guhinga umurima we, mu kugira ngo ateremo ibimera bitandukanye, akaba ari wo mwuga akora mu buzima bwa buri munsi. Akaba avuga ko umufasha, mu kwiteza imbere ndetse no kubonera umuryango we ikiwutunga, agasagurira n'amasoko akabona amafaranga, yo kugura ibindi akenera mu buzima bwa buri munsi.

Imbuto za avoka ziri mu bikoresho byabugenewe byifashishwa mu gutwara uyu musaruro wa avoka iwujyana ku masoko atandukanye, ukaba uba wasaruwe n'abahinzi bahinga izi mbuto za avoka, bakaba bavuga ko zibafasha mu kwiteza imbere no kubona ibyo bakenera mu buzima bwa buri munsi.

Avoka zasaruwe ziri mu mufuka zigiye gushyirwa mu makorete yabugenewe yifashishwa mu gutwara umusaruro wa avoka uba wavuye mu biti bihinzwe n'abahinzi bahinga izi mbuto za avoka, bishyize hamwe muri koperative bakaba bavuga ko biteje imbere binyuze mu buhinzi bw'izi mboga imbuto za voka.

Imifuka ipanzemo ibirayi ikaba ari imifuka ipima ibiro ijana, aho bari bavuye gusarura ibirayi mu Karere ka Gisagara ahahingwa ibirayi muri koperative iba aho abagize iyi koperative bavuga ko bibafasha kwiteza imbere, bakoresheje ubu buhinzi bw'ibirayi.

Umusaruro w'ibigori wanitswe kumashitingi y'umweru akaba ari umusaruro wabonetse mumurima wari wahinzwemo ibigori byahinzwe n'abahinzi borozi babigize umwuga bakorera muri koperative aho babisarura bakabyanika bityo bakabihungura bakagurisha umusaruro umeze neza wumye.

Avoka kimwe mu mbuto zikunda guhingwa n'abantu benshi kuko zitanga ibiribwa bikenewe ndetse zigasagurirwa n'amasoko ku bazihinga bakabona amafaranga ahagije binyuze muri ubu buhinzi bakavuga ko bubafasha kwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'umuceri mu gishanga cyo mu Karere ka Gisagara hagaragarwamo n'abaje kwirukana inyoni ziza kurya umuceri, iyi koperative ihinga uyu umuceri ikaba ivuga ko abayigize biteje imbere binyuze mu buhinzi bw'uyu muceri.

Ibihingwa by'ibishyimbo bitewe mu butaka buhinze neza bw'ubuso bugari, aho buhingwa n'abakora umwuga w'ubuhinzi mu kugira ngo biteze imbere babone ibiribwa, ndetse basagurire n'amasoko kugira ngo babone ibibateza imbere, umwuga w'ubuhinzi ukaba uri mu myuga ikorwa n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda.

Umusaruro w'inyanya, wazanywe n'abahinzi bakora umwuga w'ubuhinzi bw'imboga, aho bawusarura bakawushyira mu dutebo twabugenewe tubikwamo inyanya, mu kugira ngo zitangirika, ubundi bakazigemura ku isoko, aho hagaragara urujya n'uruza rw'abantu baje kugura izi nyanya.

Ubuhinzi bw'indabo buri mu buhinzi bukorwa hirya no hino mu gihugu, bukaba bubangikanwa no guhingamo ibiti by'ubwoko butandukanye, bifasha ababukora mu kwiteza imbere ndetse no kubona ibyo bakeneye mu buzima bwa buri munsi.

Ubuhinzi bw'urutoki ni ubuhinzi bukorwa n'abatari bake hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, aho intoki ziterwa mu murima munini bityo hakaboneka umusaruro uhagije, ababukora bakabona ibyo kurya bagasagurira n'amasoko kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Umurima ukorerwamo umwuga w'ubuhinzi ukaba utewemo ibimera by'ibigori ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti byiza bitandukanye, bibufasha mu kuwurinda isuri kandi ibi biti bikaba biwufasha gutanga ifumbire ku bimera.

Ubuhinzi bw'urutoki, bumwe mu buhinzi buhingwa hirya no hino mu gihugu, hakaba hari koperative ibukora mu buryo bugezweho, aho batera insina, hari, bashyize intera hagati ingana, hagati y'insina n'indi, kugira ngo bongere umusaruro w'urutoki.

Ubuhinzi bw'ibiti n'ibindi bimera bitandukanye byifashishwa mu miti gakondo, ndetse, n'ibiti byifashishwa mu gutanga imbaho zo gukoresha ibikoresho bitandukanye. Buri mu buhinzi buteza imbere abanyarwanda batari bake, kuko bitanga amafaranga.

Ubuhinzi bw'ibiti ndetse n'indabo, buri mu buhinzi bukorwa hirya no hino mu gihugu, bukaba bufasha ababukora mu kwiteza imbere, ndetse no kubonera imiryango yabo ibibatunga, aho ibi biti bitanga imbaho zifashishwa mu gukora ibikoresho bitandukanye byo mu rugo.

Irerero ry'ibiti rizwi nka pepeniyeri ahagaragarwa ibiti by'amoko atandukanye ari mu bihoho, aho izi ngemwe zikorwa n'abahanga mu kuzikora bakazigurisha ku bahinzi bashaka ibi biti bitewe n'ubwoko bw'ibiti bashaka, bikaborohereza mu kuzamura umusaruro wabo.

Igiti gitewe mu murima, aho gikikijwe n'ibimera bitandukanye, muri gahunda ya Leta yo gutera ibiti byinshi bihagije mu kurwanya isuri, ndetse no gushishikariza abantu gutera ibiti kuko bifasha mu kuyungurura umwuka mwiza abantu bahumeka.

Ibiti by'ubwoko butandukanye, bikikijwe n'ibimera bitandukanye, harimo ibihaza, ibyatsi bivamo imiti, ndetse n'ibindi. Bikaba bitewe, iruhande rw'umurima. Aho byifashishwa mu gufata ubutaka, mu kurinda, ubu butaka, burwanya isuri.

Ubuhinzi bw'indabo buri mu buhinzi bukorwa n'abaturarwanda hirya no hino, izi ndabo bakaba bazisarura bakazifashisha mu gukora imitako itandukanye, ubu buhinzi bakaba bavuga ko buri mu buhinzi bugira amafaranga menshi bukaba bubafasha mu kwiteza imbere no kubona ibyo bakeneye mu buzima bwa buri munsi.

Umurima w'ubuso bunini uhinzwemo ibiti bitanga imbuto z'ubwoko butandukanye, aho bihinzwe mu buryo bwa kijyambere, aho hagati y'igiti n'ikindi harimo umwanya ungana, bityo bikabifasha kutabangamirana mu mimerere yabyo bityo bigatanga umusaruro uhagije.

Isoko rigurishirizwamo imbuto z'ubwoko butandukanye aho harimo imbuto z'imyembe, amacunga, amatunda n'izindi mbuto zitandukanye, zikaba ari imbuto zicuruzwa zivuye ku bahinzi bakora ubuhinzi bw'imbuto.

Ubuhinzi bw'ikawa buri mu buhinzi bukorwa na benci hano hirya no hino mu gihugu, aho ubu buhinzi bubafasha kubona ibibatunga bya buri munsi ndetse bukabafasha kwiteza imbere mu gihe basaruye ikawa bakayijyana ku isoko bakabona amafaranga abatunga.

Watermelon zikaba ari imbuto zikundwa n'abadamu batandukanye ndetse n'abagabo, izi mbuto zikabazera zera mu mirima itandukanye mu Rwanda, ku bahinzi bahinga imbuto z'ubwoko butandukanye, bikaba bibafasha kwiteza imbere.

Imboga zitandukanye zirimo karoti, epinari, puwavulo, puwalo, ndetse na seleri. Biri ku meza acururizwaho imbuga n'imbuto, mu isoko rya Huye. ibi bihingwa bikaba bihingwa na koperative, ikora umwuga w'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto.

Abahinzi bahinga inyanya mu murima w'ubuso bugari, aho umugabo ari kumwe n'abana be basarura ibihingwa byabo by'inyanya byeze, kugira ngo babone ibyo kurya bajyane no ku masoko, kugira ngo babone amafaranga bifashisha, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umuhinzi uhagaze mu murima uteyemo ibihingwa bitandukanye harimo ibigori, ibihaza, amateke ndetse n'ibirayi akaba avuga ko ibihingwa bye abyitaho umunsi ku munsi kugira ngo amenye uko bihagaze kandi amenye ko azabona umusaruro mwiza umufasha kwiyiteza imbere.

Umucuruzi w'imbuto, aho acuruza imbuto zirimo amaronji, amatunda, ibinyomoro, pome ndetse n'izindi mbuto zitandukanye, aho ajya kubirangura ku bahinzi bakora umwuga w'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto. Izi mbuto zikaba zihingwa ku buso bunini, zikaba zifasha abakora uyu umwuga w'ubuhinzi kwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'imboga z'intoryi buri mu buhinzi buzamura imibereho ya buri munsi y'ababukora, na ho uyu muhinzi wambaye ikote ndetse n'ingofero, yari ari mu murima we uhingwamo imboga, aho yari ari gusarura izi intoryi ngo azijyane ku isoko.

Umuryango ukora umwuga w'ubuhinzi, aho yari yikoreye ibimera bitandukanye mu mabase ari mu bihoho, aho bari bagiye kubitera mu murima bari batunganyije mu kugira ngo bahinge kijyambere, basiga umwanya hagati y'igihingwa n'ikindi kugira ngo bazamure umusaruro.

Avoka, ziteye ku giti kiri mu murima, izi avoka zikaba zisarurwa mu gihe zeze zikajyanwa ku isoko, zikagurwa n'abaturarwanda batandukanye ndetse zikoherezwa no ku masoko yo hanze y'igihugu. Bikaba bifasha imibereho ya buri munsi y'abafite ibi biti, mu kuzamura imirire yabo ndetse n'ubukungu bwabo.

Imbuto z'ubwoko butandukanye, harimo imyembe, imineke, amaronji, wotameroni, aho biri mu isoko ahacururizwa imboga n'imbuto z'ubwoko butandukanye, abacuruzi bakaba bavuga ko izi mbuto bazigura n'abahinzi bakora umwuga wo guhinga imboga n'imbuto, bityo bakabigeza mu isoko, ababikeneye aho baza kubigurira.

Ubworozi buri mu myuga ikorwa n'abatari bake mu gihugu hirya no hino, cyane cyane mu bice by'icyaro, aho borora ihene ndetse n'inkoko, bibafasha kubona ibikomoka ku matungo mu buryo bworoshye kandi bagasagurira n'amasoko, bakabona amafaranga bifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Ubusitani bwiza burimo pasiparama ndetse n'indabo z'ubwoko butandukanye, ndetse n'ibiti biteye bikikije ubu busitani, bukaba ari ubusitani bugaragara neza, bubereye ijisho; iruhande rwabwo hakaba hari inzu yubakishijwe udutafari duhiye, kandi hasi isizwe amarangi y'umukara.

Abajyanama b'ubuzima barimo gufasha abaturage mu gukora uturima tw'igikoni tubafasha kubona imboga bakeneye mu kugira ngo bazamure imirire, ndetse n'imibereho y'abagize umuryango, bibafasha kurya indyo yuzuye kandi bitabagoye.

Umuhinzi w'urusenda uruhinga mu gishanga giherereye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo, aho yikoreye ibase irimo umusaruro w'urusenda yari amaze gusarura arujyanye ku isoko mu kugira ngo yiteze imbere abone ibitunga umuryango we.

Umuhinzi w'ibihingwa by'ibihumyo, akaba ari ibihingwa byera ahantu hato kandi bikaba bisaba kubyitaho cyane kuko bikunda ahantu hakonje. Uyu muhinzi akaba yaravuze ko yiteje imbere mu buryo bugaragara binyuze muri ubu buhinzi bw'ibihumyo.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto buri mu buhinzi buhingwa hirya no hino mu gihugu, bukaba bukorwa n'abakora umwuga w'ubuhinzi aho biteza imbere binyuze muri uyu mwuga ubafasha kubona ibyo kurya ndetse bagasagurira amasoko, bakabonamo amafaranga yo kugura ibyo bakeneye mu buzima bwa buri munsi.

Igiti cy'ipera gitewe iruhande rw'ubusitani burimo pasiparama ndetse bukaba bukikijwe n'agasima kubabatswe kabukikije mu kuburinda. Iki giti kikaba cyera amapera bigafasha ubusitani gusa neza.

Umucuruzi ucuruza imbuto zitandukanye harimo ibinyomoro, amatunda, akaba abisarura mu murima we aba yabihinzemo, akaba ari n'umuhinzi w'imbuto, akaba yiteza imbere akoresheje uyu mwuga wo guhinga imbuto.

Umurima utunganyije neza utewemo imyakaba, ukaba utunganywa numuntu ukora umwuga w'ubuhinzi, aho ahingamo ibimera bitandukanye bikazamuha umusaruro, bityo bikamufasha kubona ibyokurya bya buri munsi, ndetse no gusagurira amasoko, akabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Abakora umwuga wo gukora ingemwe z'ibiti bitandukanye ndetse niz'imbuto zitandukanye, bakaba bafite koperative bavuga ko ibafasha kwiteza imbere kuko bafasha abahinzi kubona ingemwe bakeneye kandi nabo bakaboneramo ibibatunga bya buri munsi.

Umucuruzi w'imboga n'imbuto urimo gushyira ku kameza acururizaho inyanya, ibitunguru ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu rugo harimo umunyu, ibibiriti ndetse n'amavuta, akaba avuga ko ibi bihingwa abigura n'abahinzi bakora umwuga wo guhinga imboga n'imbuto.

Umurima urimo ibimera bitoshye hakaba hahinzwemo karoti ndetse uri kuruhande rwawo ukaba uhinzwemo ibigori ku buso bunini, aho bakoresha gahunda ya Leta yo kwegeranya ubutaka mu kugira ngo basarurire hamwe ndetse ibihingwa byabo byitabweho neza n'ababifitiye ubushobozi.

Ubusitani bugizwe na pasiparama ndetse n'igiti giteye hagati yabwo, bukaba buzengurutswe n'indabo nziza z'amabara y'icyatsi n'umuhondo, bikaba bifasha kugira ahantu neza bityo hagahora hasa neza bukaba butewe mu kigo cy'amashuri.

Ibitunguru bifite ibara ry'umutuku biri mu isoko, ahacururizwa imboga n'imbuto, hakaba hari na tungurusumu ziri ku meza, ibi bihingwa bikaba bihingwa n'abahinzi babigize umwuga bahinga imboga ndetse n'imbuto, bakabigemura mu isoko aho bicururizwa.

Ubuhinzi bw'imboga n'indabo buri mu buhinzi bukorwa cyane hirya no hino mu gihugu, aho izi ndabo zihingwa mu busitani bwiza bwabugenewe, bityo bigafasha ababukora mu gutunga imiryango yabo kuko izi ndabo bazijyana ku isoko bagakuramo amafaranga.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto buri mu buhinzi bukorwa n'abatari bake hirya no hino mu gihugu, bukaba ari ubuhinzi bwa karoti bukorwa n'abaturage cyane cyane biganjemo abo mu cyaro, bikaba bibafasha kubona ibiribwa bifite intungamubiri ndetse n'amafaranga mu gihe basaguriye amasoko, bityo bakiteza imbere.

Abahinzi bahinga mu buryo bugezweho aho bakoresha amapombo mu gusukira imyaka yabo bayivomerera, kugira ngo abone amazi meza amazi ayifasha gukura neza ihangane n'izuba, kugira ngo bazabone umusaruro mwiza ubafasha kwiteza imbere.

Umuhinzi uhinga mu buryo bwa kijyambere, akaba ahinga imboga zitandukanye, aho yari ari mu murima we w'amashu, arimo kuyasasira. Iruhande rwe rw'umurima hakikijwe n'amapombo yifashisha mu gihe ari kuvomerera iyi myaka ye mu gihe cy'izuba, mu kugira ngo itange umusaruro uhagije.

Umuhinzi ukenyeye igitambaro cy'umukara ndetse n'igitenge, yambaye agashati karimo amabara y'ubururu, aho yari arimo kuvomerera imyaka ye mu gihe cy'izuba mu kugira ngo bimufashe kuzamura umusaruro afasha ibimera bye guhangana n'izuba kugira ngo bizatange umusaruro uhagije.

Umuhinzi uri mu murima ufite ipombo yifashisha asukira imyaka, aho yari arimo kuvomerera imyaka ye mu gihe cy'izuba kugira ngo ibashe guhangana na ryo kugira ngo ikure neza itange umusaruro, bityo bimufashe kubona ibyo kurya bihagije no gusagurira amasoko kugira ngo abone amafaranga yifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Umuhinzi uhinga ku buso bunini afashe ipopo mu biganza arimo kuvomerera ubutaka bwe, kugira ngo imyaka ihinzemo ibone amazi ibashe guhangana n'izuba, bityo bizamuhe umusaruro mwiza, uzamufasha kwiteza imbere.

Inyubako ikorerwamo na koperative y'ubuhinzi, iyi koperative ikaba ihinga mu gishanga, ikaba ihinga umuceri ndetse ikaba ifite n'imirima irimo ibiti biyifasha kwiteza imbere, abagize iyi koperative bakaba bavuga ko ubu buhinzi ari umwuga wagutunga kandi neza cyane.

Umurima uteweho amaterasi y'indinganire, ukaba uteweho n'uturindadansuri, uyu murima ukaba uhingwamo ibihingwa bitandukanye bifasha abakora umwuga w'ubuhinzi kuri ubu butaka kwiteza imbere, ndetse no kubona ibiribwa bya buri munsi

Igishanga gikorerwamo ubuhinzi bw'umuceri giherereye mu karere ka Huye ndetse n'aka Gisagara, iki gishanga kikaba gihingwamo na koperative ihinga umuceri yishyize hamwe kugira ngo yiteze imbere binyuze mu buhinzi bw'uyu muceri.

Ubuhinzi bw'umuceri mu gishanga giherereye mu karere ka Gisagara mu ntara y'amajyepfo, iki gishanga kikaba gikikijwe n'imirima iteweho amaterasi y'indinganire, hakaba hariho n'ahatewe imyumbati, mu gufata ubutaka, mu kugira ngo ubutaka butazamanuka bukangiza imyaka.

Igihingwa ngengabukungu cy'umuceri kikaba ari igihingwa gihingwa mu bishanga hirya no hino mu gihugu, aho no mu karere ka Huye harimo igishanga gihingwamo uyu muceri na koperative y'abantu bishyize hamwe mu kugira ngo baterane imbaraga kandi bakorere hamwe, bityo biteze imbere bakoresheje umwuga w'ubuhinzi bw'umuceri.

Ubuhinzi bw'icyayi buri mu buhinzi bukorwa n'abatari bake mu gihugu, aho bishyira hamwe muri koperative bagahinga icyayi k'ubuso bunini kugira ngo babashe guhaza inganda zikora icyayi mu Rwanda, bityo biteze imbere.

Ubutaka buciweho amaterasi y'indinganire ahinzweho mu buryo bugezweho, bibafasha guhinga ku butaka bwiza kandi butekanye ku buryo bufatira isuri burinda ubu butaka kuba bwatembanwa n'amazi.

Umudamu ukora umwuga w'ubuhinzi, uhagaze mu murima akenyeye igitenge, ndetse afite isuka ku rutugu, akaba yari azindukiye mu guhinga, kugira ngo azahinge neza ubutaka bwe hakiri kare, atere hakiri kare, imvura izagwe yateye imyaka, kugira ngo azabone umusaruro ushimishije.

Umwana wambaye ikanzu akaba ahagaze hagati mu murima ahakorerwa ubuhinzi bw'ingano, ku musozi witegeye undi, hakaba hakorerwa ubu buhinzi bufasha ababukora kwiteza imbere.

Ubuso bugari bukorwamo ubuhinzi, bukaba butewemo ibimera bitandukanye, harimo ibigori, ibishyimbo ndetse n'intoki zitanga ibitoki. Ubu buso bukaba bwifashishwa n'abaturage mu guhinga, kugira ngo babone ibibatunga ndetse basagurire n'amasoko.

Amaterasi y'indinganire yaciwe ku misozi itandukanye mu karere ka Huye mu gufasha abahinzi borozi kubona aho guhinga heza kandi ku butaka butekanye, birinda isuri kuko ari kimwe mu cyababangamiraga bigatuma batabona umusaruro mwiza.

Amaterasi y'indinganire atewemo icyayi, akaba ari gahunda ya Leta yashyizweho kugira ngo habungabungwe ubutaka hirindwa isuri ndetse ubu butaka bukaba butewemo n'ibiti bitandukanye bibufasha mu kurwanya isuri.

Aborozi borora amatungo y'ihene bavuga ko ubu bworozi bubafasha kwiteza imbere, kuko bubafasha kubona ifumbire yo gushyira mu mirima yabo kandi bakaba banayagurisha mu gihe bakeneye amafaranga mu kugira ngo babone ibikenerwa bya buri munsi mu buzima.

Umurima utewemo ibigori ukaba kandi na none uziritswemo ihene nk'amatungo yororwa n'umuhinzimworozi wabigize umwuga, akaba akora uyu mwuga mu kugira ngo yiteze imbere kandi abone ibyo akeneye bya buri munsi muzima.

Umuryango ukora umwuga w'ubworozi bw'inka ndetse n'ihene, bakaba bavuga ko ubu bworozi bubafasha kuko butuma babona ifumbire yo gushyira mu mirima yabo ndetse bakabona n'amata abafasha mu kuzamura imirire y'abana babo ndetse n'umuryango wabo.

Ikigega cy'amazi gifite ibara ry'umukara kiri iruhande rw'inzu iruhande rwacyo hakaba hororerwa inkoko aho bikorwa n'umworozi wabigize umwuga akaba ariwo mwuga umufasha kubona ibyo akeneye mubuzima bivuye munkoko yorora.

Aabahinzi n'aborozi borora ihene bavuga ko zitabagora kandi zibafasha mu kwiteza imbere, aho izi ihene ziziritse muri pasiparama zirimo kurisha ibyatsi bizifasha kubaho neza, bityo zigatanga umusaruro.

Ubworozi bwa kijyambere bw'inkoko, aho inkoko zororerwa ahabugenewe zikabona ibizitunga bihagije, aho hari ibikoresho byifashishwa mu kuzigaburira ndetse n'ibyifashishwa mu kuzihereza amazi, bityo zigatanga umusaruro uboneye.

Ubworozi bw'inka buri mu bworozi buteye imbere mu gihugu cy'u Rwanda, aho mu karere ka Huye bafashe gahunda yo kororera mu biraro, bityo abaveterineri b'abaganga b'amatungo bakajya basura aya matungo y'inka mu biraro, aho bayapima bakamenya ibyo akeneye n'ayarwaye bakayavura.

Inka imwe mu matongo maremare yororwa n'abaturarwanda benshi, ikaba iri mu kiraro cyubakishijwe ibiti, gisakajwe ibyatsi ndetse ikaba harimo n'ubwatsi irimo kurya. Ubworozi bw'inka bukaba buri mu bizamura imibereho y'abaturarwanda benshi aho bibafasha kubona amata, inyama ndetse n'ifumbire.

Inkoko y'isake ihagaze imbere y'inzu, akaba ari inzu y'umworozi worora amatungo magufi atandukanye, bikaba bimufasha kwiteza imbere ndetse no kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana.

Ubworozi bw'ingurube buri mu bworozi bukorwa n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda hirya no hino, aho ingurube zororerwa mu biraro bikoze neza kandi bifite isuku, izi ngurube zikaba zifasha abakora ubu bworozi kwiteza imbere, kuko zibafasha kubona ifumbire ndetse n'inyama, bikabafasha kwiteza imbere mu buzima bwa buri munsi.

Umuhinzi mworozi wabigize umwuga, akaba yoroye ihene, aho ihene iri mu murima, aho yari irimo gutoragura utwatsi, kandi hakaba hubakiye aho iri kugira itanyagirwa ikaba yakurizamo kurwara indwara zitandukanye, ubu ubuhinzi bworozi bukaba ari umwuga ukorwa na benshi mu Rwanda, bikabafasha kwiteza imbere.

Aborozi borora amatungo y'ingurube, akaba ari amatongo yororwa cyane hirya no hino mu gihugu, akaba afasha abayorora kwiteza imbere kuko abafasha kubona ifumbire ndetse akabafasha no kubona inyama, no kubona amafaranga.

Intama ihagaze mu murima ikaba yitegeye ubwatsi, aho yororwa n'umworozi ukora umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi, aho itanga ifumbire ndetse igatanga n'inyama bigafasha uyu muturage kwiteza imbere.

Ubworozi bw'ihene zimwe mu nyamaswa zororwa n'abaturage benshi mu bice by'icyaro mu Rwanda, zikaba zororwa iruhande rwazo hari ibiraro byororerwamo inka zitanga umukamo zigafasha kuzamura imirire y'abaturarwanda ndetse no kuzamura ubuzima bwabo bwa buri munsi.

Ubworozi bw'ingurube buri mu bworozi bwitabiriwe n'abantu benshi mu Rwanda, bukaba bufasha mu kuzamura imibereho y'abaturarwanda benshi. Aho izi ngurube ziri mu kiraro cyubatswe mu buryo bwa kijyambere, aho haba hari aho kurira hubakishijwe sima, ndetse bikaba cyubatswe neza ku buryo kuzikorera isuku bitagorana, bityo zigatanga ifumbire ndetse zigakura neza.

Ubworozi bw'ingurube bumwe mu bukorwa n'Abaturarwanda benshi mu gihugu, bukaba bubafasha mu kwiteza imbere, kuko ubu bworozi bubafasha kubona inyama, ndetse bikabafasha no kubona ifumbire bifashisha mu mirima yabo, mu gihe bahinga mu rwego rwo kuzamura umusaruro.

Ubworozi bw'inkoko bumwe mu bworozi bwateye imbere, aho uyu mworozi yorora imishwi y'inkoko akaba yifashisha ibikoresho byabugenewe mu gutanga ubushyuhe kuri iyo mishwi kuko iba ikeneye ubushyuhe kugira ngo ikure neza, hamwe n'ibindi bikoresho birimo ibiyifasha kubona ibiryo bya buri munsi ndetse n'amazi.

Ubworozi buri mu mirimo ikorwa hirya no hino mu gihugu na benshi, bakaba bavuga ko ibafasha mu iterambere, kuko borora ihene n'inka ndetse n'ingurube, bakabyororera mu biraro, aho babishakira ibyo kurya bakabibizanira, bityo bakabona umusaruro uhagije ubafasha kwiteza imbere.

Ubworozi bw'inkoko bwa kijyambere, bumwe mu bufasha mu kubona umusaruro w'ibituruka ku bworozi bw'inkoko harimo inyama ndetse n'amagi; ubu bworozi bukaba bukoresha ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kugaburira izi nkoko ibiryo bya kijyambere ndetse no kuziha amazi, bigatuma umusaruro wazo wiyongera.

Amazi atemba mu gishanga rwagati aho yifashishwa n'abahinzi mu kuhira ibihingwa bitandukanye mu gihe cy'izuba mu kubifasha gukura neza ndetse no gutanga umusaruro uboneye kuri aba bahinzi bityo bigafasha kwiteza imbere.

Abakora umwuga wo gukora ingemwe z'ibiti bya avoka bavuga ko uyu mwuga ubafasha kwiteza imbere no kubona ibyo bakeneye mu buzima bwa buri munsi, kuko ibi biti by'avoka babigurisha, bityo bakabona ibyo bakeneye mu buzima bwa buri munsi, kandi bigafasha abahinzi n'aborozi kubona imbuto z'ibiti bakeneye.

Umurima uhinzwemo amashu. Akaba ari amashu ahingwa mu buryo bugezweho. Aho hagati y'ishu n'irindi haba harimo intera ingana mu murima ukorewe neza kandi urimo ifumbire. Akaba ari umurima uterwamo ibihingwa wabanje gupimwa kugira ngo hongerwe umusaruro.

Ibimera bitandukanye biteye mu ishyamba hamwe n'ibiti bihingwa n'abahinzi bakora ubuhinzi bw'ibiti, bakaba bavuga ko bubafasha kwiteza imbere kuko ibiti bivamo imbaho zifashishwa mu gukora ibikoresho bitandukanye byo mu rugo.

Ubuhunikiro bw'ingemwe z'amashu, ahatunganyirizwa imirama, kugira ngo abahinzi b'amashu babone ingemwe zo gutera, kugira ngo babone umusaruro mwiza kandi ubafasha kwiteza imbere, bityo ubu buhinzi bubabyarire ibyo kurya ndetse n'amafaranga.

Ubuhinzi bwa kijyambere buri mu buhinzi buzamura umusaruro ku isoko, aho abahinzi bahinga bakoresheje ibikoresho byabugenewe ndetse bagakoresha n'uburyo bugezweho bubafasha kuzamura umusaruro wabo.

Umuvuzi w'amatungo wari urimo kwambara ibikoresho byabugenewe yifashisha, mu gihe arimo kuvura inka, aho yari aje kuvura inka iri mu kiraro, mu kugira ngo ayifashe kubaho neza bityo itange umusaruro mwiza, biteza imbere umworozi waroye iyi nka.

Umuveterineri wabigize umwuga wambaye imyambaro yabugenewe, afite urushinge mu kiganza, aho bahagaze muri pasiparumu hamwe n'abandi bagabo baje gukingiza amatungo y'imbwa, mu kugira ngo bayarinde kuba yagira abo yangiza.

Umuveterineri wabyize, ubifitiye ubushobozi, aho yari arimo kwambika iherena inka mu kugira ngo bajye bamenya uko bayikurikirana mu buzima bwa buri munsi, aho yari iri mu kiraro hari abandi bagabo batatu barimo kumufasha muri iki gikorwa.

Umuveterineri wambaye ingofero ndetse wambaye na bote, aho yari arimo gute urushinge inka aho yari arimo kuyivura kuko ari byo yize abifitiye ubumenyi kandi n'ubushobozi, ibi bikaba bifasha aborozi mu kuvura amatungo yabo mu gihe yarwaye.

Umuveterineri wabigize umwuga, ufashe inka arimo kuyasamura kugira ngo babone uko bayihereza umuti igihe yari yarwaye, bakaba bafasha aborozi mu kuzamura umusaruro w'amatungo yabo, kuko babafasha mu kuyitaho.

Umutavu w'inka wavutse uryamye hasi ku twatsi twiza tuyifasha guhumuka ndetse no gutangira gukura, aho yari imaze kubyazwa n'umuveterineri wabigize umwuga kandi wabyigiye, ibi aborozi bakaba bavuga ko abo baveterineri babafasha mu bworozi bwabo bwa buri munsi.

Umuveterineri ubifitiye ubumenyi ndetse n'ubushobozi, aho yari arimo, gutera intanga inyana y'inka. Aho yambaye ibikoresho byabugenewe afite urushinge mu ntoki, yakojeje akaboko mu nda y'amaganga y'inka, kugira ngo abone uko ateramo intanga neza.

Umuveterineri ubifitiye ububasha akaba yararimo yicaye mu iduka ricururizwamo imiti yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi. Ipanze mu tuyetajeri twabugenewe twiza aho yari arimo guhereza umuhinzi umuti yashakaga wo kumufasha kurwanya ibyonnyi mu murima we.

Inyoni, kimwe mu kinyabuzima kigaragara hirya no hino mu gihugu, cyane cyane mu mirima ihingwamo imyaka y'ubwoko butandukanye, aho bikunda kuba biri mu biti ndetse bikajya no hasi mu gihe birimo gutora ibiribwa byazo.

Inyamaswa z'ibitera zihagaze ku ibuye riri hagati mu ishyamba, iri shyamba rikaba ritewemo ibiti bihingwa n'abahinzi bahinga amashyamba kuko amashyamba ari mu bihingwa byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, hakorwa imbaho zifashishwa mu gukora ibikoresho byo mu rugo.

Inyamaswa y'igitera, ifite amabara y'umukara, ndetse n'umweru. Izi nyamaswa zikaba zijujutirwa n'abaturage kuko, zibangiriza imyaka, bigatuma umusaruro wabo uba muke. Bityo bikabadindiza mu iterambere.

Inyoni ihagaze mu giti cy'ururabo giteye mu busitani bwiza buherereye mu karere ka Huye mu kigo cy'amashuri, akaba ari ubusitani bukikijwe n'ibiti by'indabo bitandukanye, bigaragarwamo n'inyoni z'ubwoko butandukanye.

Inyoni ihagaze mu murima aho yari yagiye gutora ibiyitunga, uyu murima ukaba ukorerwamo ubuhinzi, aho uhingwamo imyaka itandukanye igasarurwa ikajyanwa ku isoko, igatanga umusaruro uhagije.

Inyamaswa y'agasumbashyamba, inyamaswa igaragara muri pariki y'ibirunga, iteyemo ibiti by'ubwoko butandukanye, ikaba ikurura ba mukerarugendo binjiza amadovize ku gihugu, mugihe baje gusura ibi byanya nyaburanga biri mu gihugu.

Inyoni irimo kuguruka mu kirere ikaba ifite amabara menshi atandukanye harimo: umukara, umutuku, icyatsi, umweru, aho irimo kuguruka iva mu giti kimwe ijya mu kindi; inyoni zikaba zikunda kugaragara mu mirima ikorerwamo ubuhinzi.

Inkende irimo gushamuza umunyeshuri ibiryo yari avuye kugura, ikaba yari iri mu ishyamba ritewemo ibimera bitandukanye, aho yari itegereje gushakamo ibyo kurya ikabona umuntu ikamushamuza ibipapuro bye.

Ubusitani buhinzwe mo indabo bukaba ari ubuhinzi bukorwa n'abatari bakeye hirya no hino mu gihugu, bukaba bugaragarwamo n'inyoni z'ubwoko butandukanye ziba zaje gushaka ibyo kurya muri izo ndabo cyane cyane ko zikura ibyo kurya byiganje mo mu ndabo.

Inyoni, bimwe mu binyabuzima bigaragara mu mirima itandukanye. Hakaba habaho ubwoko bwinshi bw'inyoni, aho iyingiyi ifite ibara ry'umutuku n'umukara, ikaba ihagaze mu giti giteye mu busitani.

Inyamanswa y'igitera ihagaze iruhande rw'umuhanda, hamwe n'umurima uhingwamo ibihingwa bitandukanye, iyi nyamanswa ikaba yonera abaturage, bakaba bavuga ko ibangamira ubuhinzi bwabo kuko ituma batabona umusaruro mwinshi nk'uko baba bawiteze.

Inyamaswa y'imbwa ikaba ari itungo ryororwa mu rugo, rikaba rifasha mu gucunga umutekano mu rugo, ndetse no kurinda imyaka ku bahinzi. Iri tungo rirafasha cyane kuko rifasha mu gucunga umutekano.